Ni mu kibuga ahantu habereye inama mu gacaca kameze neza hateye intebe umukuru uyoboye inama ari kubayobora hari abantu benshi cyane bitabiriye iyi nama inyuma yabo hari icyapa cy'ikirangantego kiri inyuma yabo.

Imiti iteretse mu bubiko bwayo ibambyeho udushashi tw'umweru turimo amabara y'ubururu, ipfundikije udufuniko tw'umutuku ndetse n'utw'umweru, hejuru hari indi ariko itagaragara yose, ni imiti y'amatungo.